Abanyeshuri batandatu bicaye mu ishuri rishaje, buri wese yicaye ku ntebe ye, ufite iy'umutuku, iy'ubururu n'undi akagira iy'umukara, bahuriye ku meza amwe bategereje icyo mwarimu ababwira kuko nta n'umwe ufite ikayi, ufite icyo uri kwandika, ahubwo bose bateze amatwi.

Abana benshi bo mu irerero bicaye ku mucyeka, aho bari kwigishwa uburyo bagomba kwitwara bakiri abana, banerekwa imico iboneye buri mwana wese akwiye kugira, mu gihe ari kumwe n'ababyeyi cyangwa ari kumwe n'abandi bamurera, hamwe n'urungano rwe.

Abana icyenda biga mu kiburamwaka, umunani bicaye ku mukeka, umwe agiye gufata urukweto rwaguye munsi y'ameza, kugira ngo aruzane arwegereza aho yicaye, abandi umunani inkweto zabo bazishyize impande yabo, kugira ngo bicare neza babone uko basoma ibitabo mwarimu yabahaye, barimo bareba amashusho ajyanye n'ibyo biga kugira ngo abakangurire ubwenge ndetse n'ubumenyi.

Irerero rusange rifite umwarimu wambaye ibitenge n'abana bari mu kigero cy'imyaka ibiri n'imyaka itatu, bari kwiga ku bijyanye n'ubuzima, uburyo abana bagomba kwigamo hari intebe z'ubururu, zitambitse haruguru yabo, bamwe bahagaze kumukeka inkweto zabo ziri hasi inzugi zose zifunze.

Ikigo cy'amashuri, cyubakishije amatafari y'impunyu, zifite imiryango ikingishije inzugi z'umweru, hari abanyeshuri bambaye impuzankano, abahungu n'abakobwa, bari mu kigero cy'imyaka ibiri n'ine, bari gusubira mu mashuri, bavuye mu kuruhuka, mu gihe k'iminota mikeya mwarimu yari yabahaye.

Abana bane bambaye impuzankano z'ubururu n'umukara bicaye ku meza amwe bafite igikarito cyanditseho umubare gatanu gisize amarangi y'umweru ndetse n'ubururu, bicaye hamwe bareba ibyo mwarimu ababwira.

Abana bato cyane bari mu kigero cy'umwaka n'imyaka ine, bagiye kwiga mu irerero, basohotse mu kibuga, bari gukina kugira ngo babe bisanzura mu gihe bategereje ko umwarimu abasubiza mu ishuri, bamwe muri bo bambaye imyenda y'impuzankano, abandi bambaye imyenda isanzwe.

Umugabo wambaye ingofero y'ubururu, isengeri y'umutuku, ipantaro y'umukara n'umweru, yicaje abana mu kibuga ari kubigisha ku buryo abana bagomba kwitwara, hakurya yabo hagaragara ibigega bibiri by'umukara bifata amazi y'imvura, ndetse n'inzu yubakishije ibyuma by'umutuku.

Itsinda ryabanyeshuri bagera muri bane bicaye mu ishuri kumeza y'umutuku, inyuma yabo hari ikibaho cy'umukara cyanditseho n'amagambo asharabanze, bafite igikarito imbere yabo kigizwe n'amabara y'ubururu ndetse n'umukara, bifashisha babara bareba ko imibare ihura.

Imiryango y'ubwiherero igera muri itanu ifungishije inzugi z'igiti, zifite udupata ku ruhande bifashe ukinga igihe agiye muri tuwalete, n'ibikuta by'umweru bisize amarangi y'umweru bigiye biteye hirya no hino ndetse n'isima y'umukara ifasha kurinda isuku.

Utubaho twanditseho imibare iva kuri rimwe kugera ku icyenda, abana bato bifashisha mu gihe bari kugira ngo babakangurire ubwenge bwabo, cyangwa bibafashe mu gihe bari guteranya imibare, byihuse bitabatinza.

Abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa bahetse ibikapu, bambaye inkweto z'amabara atandukanye n'imipira idasa, bahagaze inyuma y'urugi kuko bakererewe amasomo, bategereje ko haruza kubinjiza kuko baje amasaha yarenze.

Ikigo cy'abanyeshuri kiri gukora ubukangurambaga kuri gahunda ijyanye na buri wese, ko agomba gutera igiti no gushishikariza abanyeshuri ko buri wese agomba kugera mu rugo agatera igiti cyangwa akagiha ababyeyi bakagitera ko bizabagirira umumaro.

Ibikoresho umwarimu yigisha imibare yigisha mu mugihe ari kwereka abanyeshuri ubuso bw'ikintu runaka, ibikoresho biteretse ku meza, ameza akoze mu biti ndetse no mu nyubako yubakishije sima y'umukara izengurutse inzu isa nk'ishaje.

Ibitabo by'imibare by'abanyeshuri b'umwaka wa gatatu, bigizwe n'amabara atandukanye: icyatsi kibisi, umuhondo, umweru, ikijuju ndetse n'ubururu, kigaragaza integanyanyigisho z'ikigo gishinzwe uburezi mu Rwanda.

Itsinda ry'abanyeshuri ry'abahungu n'abakobwa, bambaye impuzankano bategetswe n'ikigo cyabo, bicaye hamwe mu matsinda, bari gukora umukoro mwarimu wabasigiye, bakoresheje ibitabo byifashishwa, by'ikoranabuhanga ndetse n'iby'imibare, kugira ngo bagere ku ntego zabo.

Inyubako yigirwamo. Yubakishijwe amatafari y'impunyu ahiye ndetse n'amabati y'umweru. Harimo intebe zigera muri icyenda abanyeshuri bicararaho mu gihe bari kwiga, n'ikibaho bifashisha mu gihe mwarimu ari kubasobanurira ibijyanye n'iby'abigisha ndetse n'ubumenyi rusange.

Igitabo cy'ubumenyi ngiro cy'umunyeshuri wiga mu mwaka wa gatanu w'amashuri abanza, giteretse ku meza, kiriho amabara y'umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi kibisi, cyerekana impande zombi kiriho urwungano ngogora n'umugore uri gukora amasuku ndetse n'umugabo uri kunywa amazi.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano harimo ishati y'amaboko maremare y'ubururu n'ijipo y'ikinombe, ari inyuma y'ishuri rishaje risize amarangi y'ikijuju, amadirishya y'umweru ndetse afite n'ibyuma by'icyatsi kibisi bizengurutse amadirishya.

Abana batatu bari mu ishuri ririmo intebe zigera muri eshatu bicaye ku ntebe imwe ndetse na mudasobwa iri mu mabara y'icyatsi kibisi n'umweru, aho bari kwiga ku bijyanye n'uburyo bwo kumenya ikoranabuhanga no gushakishije amakuru ukoresheje mudasobwa.

Abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa bambaye impuzankano zisa n'inkweto za bodaboda zifunguye, bari imbere y'inzu isa nk'ishaje, ifite urugi rusize amarange y'icyatsi kibisi n'ibyuma bigiye bihagazemo bicunga umutekano yuko bitameneka.

Inyubako y'ishuri ishaje cyane, isa nabi mu bikuta byayo amatafari yanduye cyane, intebe zisa nk'izisaje ikibaho kiriho imibare myinshi kuva kuri rimwe kugera kuri maganacyenda na mirongo irindwi, byandikishije n'ingwa y'umweru hejuru ku kibaho gifashe ku gikuta.

Icyumba abarimu bahuriramo nyuma yo kwigisha cyangwa mbere yo kwigisha kugirango kibe cyabasha kubika ibikoresho byabo bakoresha mu buzima bwabo bwo ku ishuri. Cyubakishije rukarakara, gisize amarangi y'umweru ndetse n'urugi rusize amarangi y'umweru nibyuma bitoya bitanditsemo hamwe n'ibirahuri.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri bambaye imyenda y'ubururu bahagaze imbere y'ikigo cy'amashuri, hari inyubako isakaje amategura n'amatafari ahiye, bari imbere y'ubusitani buriho amapine yashaje, ari aho mu busitani azifashishwa mu gukoraho ibikoresho nk'intebe bari kugenda hafi y'umucanga berekeza mu mashuri.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, mu ruhande rwayo hateyeho igishushanyo cyangwa icyapa kiri mu mabara y'ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda, kigaragaza gahunda ya Ndi Umuyarwanda ndetse n'uburyo umuntu agomba gukunda igihugu.

Ikigo cy'amashuri gifite inyubako zishaje zubakishije amatafari ya rukarakara. Zikaba zisakajwe n'amategura. Hari ikibuga kiri gukiniramo abana b'abahungu bambaye amakabutura y'amakaki, ndetse n'abakobwa babiri bagaragara bava kuri za nyubako basanga basaza babo.

Abana b'abahungu bambaye impuzankano isa, bafite imipira itandukanye. Bicaye ku nzu ishaje ifite ibyondo yubakishije rukarakara, ifite igisima hasi n'ahandi cyabomotse, bategereje abanyeshuri ko binjira kugira ngo na bo baze bige.

Ikivunge cy'abanyeshuri bari mu myitozo ngororamubiri aho bamwe basimbuka umugozi, abandi bagasimbuka ibyuma, abandi bakajya ku byicundo, ikigo cy'amashuri kirimo inyubako zisakaje amategura bubakishije amatafari ahiye ndetse bafite n'inzugi z'umukara hamwe n'izifite inzugi z'umweru.

Abana b'abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa, bambaye impuzankano zijya gusa n'amajipo n'amashati, bafite ibikapu bari kujya ku ishuri, abandi bafite ibiryo bategereje ko bajya kwinjira bakarya, umwe ufite umupira awikoreye ku rutugu ndetse n'abandi bambaye bodaboda, bitegereje ko amasaha agera bakinjira.

Igitabo cy'ikoranabuhanga n'ubumenyi buciriritse cy'umwana w'umunyeshuri wiga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Giteretse ku meza, bikaba biri ibitabo bitatu umwana bakoresha mu gihe bari kwiga no mu gihe bari gusubiramo amasomo mwarimu yabahaye.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, gisakaje amabati y'umutuku, n'inzugi zisize amabara y'ubururu, ubusitani bwaho harimo utwatsi dukeya, ndetse n'imbuga yuzuye igitaka cyinshi.

Ishuri ryubakishije amatafari ya rukarakara, rifite sima hasi isa nabi, rigizwe n'intebe eshanu n'ijerekani rimwe, ameza ari mu mpande, ari hasi y'amadirishya ariho ibyuma n'ibirahure, imigozi ijyana amashanyarazi hirya no hino mu ishuri, n'urugi rw'umuhondo rufite n'amabara y'icyatsi.

Urujya n'uruza rw'abana b'abanyeshuri, bambaye impuzankano zisa, harimo abahungu n'abakobwa, abenshi muri bo bambaye bodaboda, bahetse udukapu inyuma ku mugongo, bamwe bajya ku ishuri abandi bataha, abize mu gitondo bataha, abajya ku ishuri binjira, umwarimu wabo abashoreye agira ngo abambutse umuhanda.

Abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa, bambaye impuzankano zisa, buri wese ahetse igikapu cye, bambaye bodaboda z'amabara atandukanye, bahagaze ku gisima cy'imbuga y'ishuri, hakurya yabo hari ubusitani bw'ubucaca, bukora ku gipangu n'icyegereye inzu, inyuma yabo hari inzu y'ibyondo, isakaje amabati y'umweru.

Abana b'abahungu n'abakobwa bicaye mu matsinda agera muri atatu, aho buri tsinda rifite ibitabo bikoresha mu rwego rwo kwiyungura ubumenyi, ndetse no kurushaho kumenya neza ibyo mwarimu aba yabigishije no gukora umukoro yabasigiye.

Icyumba gito gisa n'kijimye, kirimo akavuyo kenshi, kirimo intebe n'ameza meza ariho igitabo cy'ubururu n'amasinga yicyatsi kibisi, amasinga y'umutuku ndetse n'umweru, nimpapuro z'umutuku zikoreshwa, amarido arimo utubara twinshi ari ku madirishya n'ibara ry'icyatsi kibisi riri ku muryango w'inyuma.

Icyumba cy'ishuri kirimo abanyeshuri n'intebe z'umweru n'ameza agiye ariho mudasobwa zitandukanye n'umwarimu wambaye itaburiya y'umweru ari kwereka umunyeshuri umwe uri ku kibaho, yandikisha ingwa y'umweru ibijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'ibinyabuzima n'ubutabire.

Ikigo cy'amashuri kigaragaza aho abana bakinira imikino y'amaboko, hari inyubako y'umweru igeretse gatatu, hirya yaho hari icyapa kigaragaza ko ari ikigo cy'abihaye Imana cy'abanyagaturika, inyuma yaho hari ibiti by'inturusi birebire, inyuma y'igipangu cyubakishije rukarakara.

Icyumba k'ishuri bigiramo gifite ibikuta by'umweru n'urugi rw'umukara, gifite ibikuta bisize irangi bya orange, hari ikibaho cy'umukara, aho handitse n'amabara y'umweru, bandika abasibye ndetse n'abaje; bagaragaza umubare w'abakobwa ndetse n'abahungu bitabiriye ishuri n'abasibye n'impamvu badahari.

Abanyeshuri bari mu rugendo shuri aho bari kuganirizwa ku bijyanye no kurengera ibidukikije, bari mu gishanga kirimo ibyatsi bitandukanye, aho buri wese avuga gahunda yo gutera ibiti hamwe umuyobozi ababwira uburyo ari ingirakamaro kubitera.

Umuhanda nyabagendwa w'amabuye wubatse munsi y'amazu atuwe, hakurya yaho hari ubusitani burimo indabo z'ubucaca n'izifite uturabyo tw'umuhondo, haruguru hari igipangu cy'amabuye gifite inzugi zisize amarangi y'umweru n'ibiti birebire bya supurensi ku gipangu cy'impunyu kigaragaraho.

Isomero rusange ryo mu kigo cy'amashuri, harimo utubati dusize amabara y'umweru, tugiye tugeretse kanekane, buri ruhande ruriho ibitabo n'amasomo agiye byabyo ndetse n'udupapuro turanga aho amasomo y'ibitabo aherereye, harimo n'akabati kari hasi, karimo ibitabo bishinze birebana byose bisobanura kimwe.

Ikivunge cy'abanyeshuri bambaye impuzankano, abakobwa n'abahungu bahetse ibikapu by'amabara atandukanye, bamwe bambaye amapantaro abandi amajipo, bakambara amashati asa bose, barasohoka mu kigo ndetse batashye iwabo, hafi y'inyubako ihari y'amabati y'umutuku, ifite inkingi z'umuhondo n'ibyuma bitwara amashanyarazi mu ngo.

Itsinda ry'abahungu n'abakobwa, bambaye impuzankano z'umweru, n'imyenda yo hasi isa nk'ubururu, inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru. Begereye imodoka y'igihugu, y'abanyamakuru, ha mbere y'inzu y'umuhondo, isakaje ibyuma, ndetse isize n'amarangi y'umuhondo.

Umwarimu w'umugore wambaye umupira w'umweru ufite imisatsi y'umukara, ijipo y'umutuku, ari imbere y'abanyeshuri bambaye impuzankano z'icyatsi kibisi, imbere yabo hari ikibaho cyanditseho uruhande rumwe amasomo y'ubumenyi n'ajyanye n'ibidukikije.

Umuhanda nyabagendwa urimo abagabo batatu n'umugore wikoreye agatebo uhetse umwana wambaye ijipo y'ubururu, hateye ibiti ku ruhande byitwa inturusu, ndetse ukagira icyapa kiyobora aho abagenzi bagomba guca kugira ngo batabisikana n'imodoka.

Umwarimu wambaye impuzankano y'umweru akosora abanyeshuri ku isuzumabumenyi baherutse gukora, akoresheje ikaramu y'umutuku, imbere ye hateretse ibitabo biri ku meza ndetse n'intebe ziri hakurya n'ameza ateretseho amarate, hamwe n'imashini zifashisha mu gufotora impapuro.

Ikigo cy'amashuri cyakoranyirije abana b'abanyeshuri mu mbuga, ahari uwategereje kumva ibyo umuyobozizi ababwira, babateretse ameza imbere ndetse n'indangururamajwi zifite imigozi hirya no hino kugira ngo buri mwana wese aho ari yumve icyo bamubwira, bidakwiye ko bimugora kumva umuyobozi.

Abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa bambaye impuzankano z'umweru n'ubururu, bicaye bakurikira inama bari guhabwa n'umuyobozi w'ikigo cyabo z'uburyo abanyeshuri bagomba kwitwara neza kugira ngo batsinde ndetse n'imyitwarire igomba kuranga umunyeshuri mu gihe ari hanze.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zirimo imipira, amashati ndetse n'amapantaro n'amajipo ku bakobwa, bicaye mu kibuga cy'ikigo aho bagaragara nk'abari mu nama, bishwe n'izuba bari kumva ibyo abarimu bababwira ndetse n'abayobozi babo.

Amakipe abiri ari mukibuga yambaye imyenda itandukanye, imwe yambaye umutuku n'inkweto zayo z'imihondo, indi yambaye ubururu n'icyatsi kibisi, namakabutura yubururu, n'inkweto zijya gusa nku'umuhondo, ikibuga kizengurukijwe n'umupira, ndetse n'amagcona yo guteramo imipira.

Icyapa rusange kiri mu mabara y'umweru n'andi y'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda ryerekana ishuri ryisumbuye ry'Indatwa n'Inkesha, hariho uduseke dutatu hejuru ryegeranye n'inzu yubakishije amatafari y'impunyu hasi hasize amabara y'umukara, n'ibiti biri ku ruhande byegereye indabo ziteye.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye cya Butare, gifite inyubako z'amatafari ahiye ndetse n'uruzitiro rwubakishije ibyuma bisize amarangi y'umweru, umuhondo n'icyatsi kibisi, hagaragara icyapa gifite amabara y'icyatsi kibisi kiranga izina ry'icyo kigo naho giherereye.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye kisunze umubyeyi Providence giherereye ku Karubanda, Huye, gifite icyapa kigaragaza ari icyahe kigizwe n'amabara y'umweru cyanditseho n'izina ry'ikigo, ku mpande zabyo hari amabuye ndetse n'amatafari ahiye neza.

Urujya n'uruza rwabanyeshuri bambaye impuzankano z'umweru n'amajipo y'ubururu n'amapantaro y'ubururu, inkweto zidasa buri wese yambaye uko ashaka, bashungereye inkende iri hakurya mu busitani bugizwe n'indabo z'umutuku, iz'icyatsi kibisi zifite n'indabyo z'umuhondo, hari icyapa ku ruhande kiyobora abagenzi.

Abanyeshuri bicaye mu gashyamba, bari kumwe n'umuyobozi wambaye ijiri y'ubururu n'umupira w'umweru, n'undi muyobozi w'umugore wicaye hakurya ku ntebe ebyiri zihari, yegerewe n'akajiri k'umuhondo kari ku ntebe, bari kubabwira uburyo abanyeshuri bagomba kwitwara mu gihe bari kwiga, no mu gihe cyo kunoza isuku bari mu rugo n'ahandi hose bagenda.

Itsinda ry'abanyeshuri bicaye hamwe bafite na mudasobwa, hakaba harimo umunyeshuri umwe wambaye impuzankano z'ubururu wicaye mu igare y'abafite ubumuga n'amakaye iruhande rwiwe. Abicaye ku ruhande rwo hakurya na bo harimo abahungu n'abakobwa bakiri batoya bari kuganira ku bijyanye n'amasomo bakoresheje mudasobwa.

Ikigo cy'amashuri gifite inyubako zubakishije amatafari ahiye, n'imironko hagati no mu mpande isize amarangi y'umuhondo, imipirama imanura amazi mu butaka, afasha gutuma amazi y'imvura adakwirakwira mu mbuga akajya ahabugenewe, ifite n'amadirishya asize ubururu ndetse n'ibyuma by'ubururu.

Inyubako y'umweru izengurutswe n'ubusitani burimo ibiti by'amoko atandukanye. Hepfo y'aho haragaragara umuhanda urimo amabuye, aconze neza ndetse asize amabara y'umweru n'umuhondo bigenda bigana kuri ya nyubako, ndetse byorohereza abanyamaguru gutambuka batangije ubusitani buteye hafi y'inzu.

Amatsinda y'abanyeshuri ari aho yahuriye ku ishuri, ari kumva ibyo abayobozi bababwira, mu kibuga cyiza cyane bakiniramo umupira w'amaboko, ndetse ikigo giteyemo ibiti by'intunsi, epinusi, bishobora kuzana umuyaga mu kigo, bigatanga n'ubuzima bwiza ku banyeshuri n'abarimu.

Icyumba gifite ibikuta by'umweru gifite ikibati cy'umweru ku ruhande ndetse n'utubati duteretse hasi, harimo ikibombanye cyane gifite santimetero ebyiri na kamwe gacoye hejuru kameze nka kare, bakoresha babika ibikoresho bya mwarimu, ndetse n'iby'abanyeshuri kugira ngo bitangirika.

Uruvunge rw'abanyeshuri bafite ibikoresho bari kuva ku ishuri, bambaye impuzankano z'imipira n'amajipo ndetse n'amapantaro, bategereje imodoka iri guturuka iruhande rwayo, kugira ngo ibacyure mu ngo z'ababyeyi bavuye ku ishuri.

ishuri risa nk'irishaje ririmo umwarimu wambaye umupira w'umweru, ahetse agahapu k'iikiombe inyuma ku rutugu, ari kuganiriza abana bicaye ku ntebe, ruguru ye ari kumwe n'umwungirije bahagararanye, amwereka uburyo abana bitabira ishuri, ndetse bakaba bafite ikinyabupfura mu byo bakora.

Ikigo cy'amashuri gifite ikibuga cyo gukiniramo umupira w'amaruguru ndetse n'amaboko, hagaragara ikibuga cy'umupira w'amaboko hashinzemo ibyuma n'inshundura n'igiti cya pinusi giteye hafi y'aho abakinnyi bari gukinira umupira.

Abanyeshuri bambaye impuzankano z'ubururu n'imyenda ya kacyi, harimo abahungu n'abakobwa, bicaye hamwe, bari gukurikira ikiganiro umuyobozi w'ikigo yabageneye, buri wese yicaye munsi y'igiti aho yirinda izuba, ndetse agashobora gukurikira mwarimu neza, akumva ibyo ababwira.

Umugore ufite imisatsi y'umukara yambaye ishati y'umweru yicaye imbere y'imashini, aho ari kudoda amatise y'ubururu akoresheje urushinge afite n'umunyeshuri umwicaye iruhande areba, ufite n'amakayi n'izindi mashini zimuri inyuma.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye giherereye i Butare cyisunze Mutagatifu Famille, gifite inyubako zishaje zubakishije amatafari ahiye, amabati y'ubururu, gifite ubusitani burimo imbere ndetse n'ibiti biteyemo, inyuma yaho hakaba hari igitaka ndetse cyegeranye n'ubusitani.

Icyapa kizengurutse uruzitiro gifashe ku cyuma kirekire cy'ubururu ndetse n'amatafari ahiye y'igipangu, cyandikishijeho amagambo y'ubururu avuga ko ari ishuri rya Ruhango ry'umwuga n'ubumenyingiro, cyanditseho amagambo yandi hejuru ari mu mpine y'umutuku n'ibendera riri ku ruhande rivuga ko ari Igihugu cy'u Rwanda.

Icyapa gisize amarangi y'icyatsi kibisi, ubururu n'umweru cyanditseho amagambo agaragaza aho ishuri ry'ubumenyingiro rya Butare riherereye, rikaba riri ibumoso hejuru yaryo hari inyubako ishaje cyane ijya gusa nk'urusengero, ifite amatafari y'impunyu ahiye neza, harimo akarongo k'umuhondo ku ruhande.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri yisumbuye y'indatwa n'inkesha, yubakishije urukuta rw'amabuye, rusize amarangi y'umweru, hariho n'icyapa kiharanga, kiri mu mabara y'ubururu n'umweru, gisongoye kimeze nk'agaseke, giteye ku rukuta rwegereye igiti, igiti kirandaranda kiri hejuru, kirimo hagati akayira.

Imodoka iri mu muhanda itwaye imizigo, iyi igeze aho abanyamaguru bambukira iri guhereza abana b'abanyeshuri inzira kugira ngo bambuke badakererwa ishuri, ibi aba ari ibintu byiza kuko ubusanzwe umunyeshuri yambutse nta ntugunda cyangwa ikibazo kibaye.

ikigo cy'amashuri cyegeranye na kiliziya byubakishije amatafari y'impuya ahiye neza, bisakaje amabati asa nk'ubururu byose. Hari ikibuga hagati kirimo utwoma dutoya ndetse n'utwatsi dukeya, imbuga abana bakiniramo mu gihe amasomo arangiye.

Ikigo cy'abanyeshuri aho abanyeshuri bahuriye hanze bambaye impuzankano zabo barikuganira n'umuyobozi ku bijyanye n'uburere n'imyifato y'abanyeshuri. Abanyeshuri bambaye impuzankano zisa bagizwe n'abahungu n'abakobwa n'umuyobozi yambaye imyenda y'umukara ndetse n'inkweto z'umweru.

Inyubako y'ishuri harimo umugore w'umwarimu wambaye imyenda yumweru n'umupira w'umukara, inyuma ye hari ikibaho cyandikishijeho n'ingwa z'umweru, gifashe ku matafari yimpunye, asimanze n'agasima kenshi, hari intebe zibateretse imbere ziriho ibitabo byinshi n'ibikoresho byifashishwa mu kwiga.

Umwana w'umuhungu w'umunyeshuri, wambaye ishati y'umweru, ipantaro ya kaki n'inkweto z'umukara, wicaye ku igare agenda mu muhanda nyabagendwa, hakurya hari inyubako y'amashuri ikikijwe n'ibiti byakuze cyane, hari umugabo uri kwinjira muri icyo kigo ndetse n'umugore uri gutambuka agana aho ikigo giherereye.

Icyapa kizengurutse uruzitiro, gifashe ku byuma by'umweru, ibyuma bifashe ku matafari y'impunyi. Byerekana ko ari ikigo cy'abihaye Imana cy'abahungu, giherereye mu karere ka Huye, ariho hahoze hariya i Butare. Hari igipangu cy'umweru, cyandikishijeho amagambo y'ubururu, mu nyuguti eshanu z'impine,

Abanyeshuri b'abakobwa bari mu kigero cy'imyaka cumi n'ine na cumi n'umunani, bambaye impuzankano z'umweru n'ikinombe, bicaye ku ntebe zitandukanye, zifite amabara atandukanye, bateze amatwi abayobozi babo babiri, uw'umugore n'umukobwa kugira ngo bumve impanuro bahabwa.

Isomero rusange rifite utubati tugeretse inshuro eshatu, harimo ibitabo ndetse n'ikirango cy'aho buri mwaka ugenda ureba igitabo n'isomo bihura. Harimo ibitabo by'amasomo atandukanye imibare, ibitabire n'ibinyabuzima ndetse n'ibidukikije.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye y'imponyo, gisize amarangi y'umuhondo. Gisakaje amabati y'ubururu. Aba abanyeshuri bicaye bambaye impuzankano zitandukanye. Abana bicaye ukwabo, n'abakuru kwabo. Bari guhugurwa mu buryo bwo gukoresha mobi cash. Begeranye n'ubusitani buri guterwa, aharimo indabo z'umuhondo n'ubucaca bwegeranye.

Icyumba kirarwamo kirimo igitanda kigeretse kabiri, kiriho matera ebyiri n'amashuka y'umweru n'umukara, hasi inkweto ziri hasi zijagaraye ziteretse impande n'impande; iz'umukara, iz'ubururu ndetse n'iz'icyatsi.

Igikuta gisize amabara y'umweru kiriho ikirango kigizwe n'amabara abiri ubururu n'umweru, hariho ikirango cya Kaminuza y'u Rwanda ahagaragara ko higira ubuzima ndetse bivuze ko ari ishuri bigaragaza amadirishya ari hejuru agizwe n'umukara ndetse n'ibyuma bitambitsemo hamwe n'ibirahure bikeya.

Inyubako ifite ibikuta by'umweru, isakaje amaparafu ya jupsam, igaragaza hasi h'umweru n'umukara. Harimo utubati dusakaje muba z'umukara natwo akaba ari ikinombe dufite utubati ku ruhande n'utw'umweru turi mu nguni ndetse na camera zifata amashusho arinda umutekano.

Akumba gato karimo intebe enye z'umutuku, n'ameza y'ikinombe ariho mudasobwa na telefone igendanwa mu ntoki, hagaragara irido y'umweru, ikinze icyumba gikurikira, n'umugozi ucajinga telefone ujyanamo umuriro, uza uri mu ibara ry'umukara, ufashe ku gikuta gisize umweru.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi igaragara ko ifite ikibuga gihagije. Aho amamodoka aza guhagarara mu gihe abagannye ibitaro bagiye mu kwivuza, bagiye gushaka abaganga muri biro byabo ndetse n'abahakora bakaba bahatereka imodoka zabo.

Itsinda ryabantu batatu buri wese afite mudasobwa imuri imbere bari kumwe n'umwarimu uri kubigisha afite mudasobwa iteretse imbere ye, ndetse n'icyuma gikwirakwiza amashusho ahagaze imbere yabo ku kameza gafite amabara y'umukara, hepfo yaho hari inyubako igeretse gatanu n'imodoka iri iruhande rw'inzu.

Icyumba abanyeshuri bararamo gitoya cyane, kirimo igikapu kimwe cy'umukara n'igitanda byegeranye, hariho ibiryamirwa, hari igishashi kirimo agafuka k'umweru kabika udukoresho tw'abanyeshuri bifashisha mu gihe bari aho aho barara cyangwa bitegura bajya kwiga.

Ikibuga kiri hagati y'ubusitani bubiri, hagaragara inyubako isize amarangi y'Umweru ndetse n'i'ubururu. Muri icyo kibuga harimo amapoto abiri ariho inshundura z'aho abakinnyi bakina umupira w'amaboko bisanzurira mu gihe cyo gukina.

Ikigo cy'amashuri gifite inyubako zigeretse inshuro ebyiri, hagati hari ubusitani butoshye cyane burimo ibiti by'amoko atatu, ikirekire ndetse n'ikigufi cyane giteye mu ruhande rwo haruguru, harimo n'inzira ijyana abanyeshuri ku nyubako irimo neza isize amarangi meza.

Icyumba gisize amarangi y'umweru, gifite amadirishya arimo amarido y'amabara n'utubati dufashe hejuru no hasi mu ruhande rw'iburyo, intebe y'umuhondo mu ruhande rw'ibumoso, ibitanda bibiri bisashishije amashuka arimo uturabo twa move ndetse n'umweru, n'amakaro ajya gusa nk'umweru yanditse neza.

Ikigo cy'ubumenyi ngiro cya Kitabi, kigaragaraho ifoto y'ingagi ndetse n'abana bari gukora ubukorikori, gifite ibyapa by'umweru ndetse n'icyatsi kibisi, gisakaje amashitingi yanditseho ko ari iki ngiki cyo mu Rwanda, gikikijwe n'amashyamba y'ibidukikije.

Akumba karimo amakaro meza, gafitemo n'igikuta cy'umweru, hariho udutebe tubiri twiza tugiriwe mu mabara y'umuhondo ndetse n'amaguru y'umweru, hari akameza kariho ibintu, hariho amata y'abana n'imiruwari, n'amacupa na rimwe ry'amazi n'ibikombe bibiri bifite amabara atandukanye.

Inzu eshanu zubabatse mu mpande zitandukanye zifite ubusitani hagati, hateyemo igiti cyumye kigashiraho amababi hanitse isume hanze ku mugozi, hateretse amajerekani atanu yavuyemo amarange bari bakoresha basiga inzu y'ubururu ndetse hakagaragara n'igiti kiri imbere bateramo indabo.

Urusengero rwubakishije amatafari ahiye y'impunyu, rusakaje amabati y'umutuku, n'amadirishya arimo ibyuma bigiye bifata hirya no hino, amadirishya asize irangi ry'umweru, ku ruhande rwayo hari ubusitani bugizwe n'ubucaca buzitijwe n'umweya ndetse na senyenge ifashe ku byuma.

Akumba gato gasashemo umukeka w'umweru n'umukara, ku ruhande hari akaradiyo gafite umugozi umanika hejuru, hari amavuta yo kwisiga, umuti w'amenyo, ndetse n'uburoso bw'amenyo, imyenda imanitse hejuru y'umukara n'ubururu, n'iy'umweru, kakaba gasize irangi ry'umweru mu rukuta.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri igizwe n'intebe n'ameza, ameza afite santimetero mirongo itanu n'udutebe tw'uruziga turi munsi y'ameza, utubari twiza turi hakurya ahagaragara ubwogero ndetse n'aho basohokera, hari amadirishya y'ibirahure agizwe n'ibiti n'ibyuma, hejuru yaho ari amatara y'umweru no hakurya hari ikibaho bigiraho.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri ndende cyane, igeretse gatanu, izitije uruzitiro rw'ibyuma bigufi byegeranye n'ibiti byinshi, hari umuhanda munini wa kaburimbo unyuramo abantu n'imodoka, hakurya yaho hari ibiti binini by'indabyo bizana umwuka mu kigo.

Ikigo cy'amashuri cyerekana imbuga irimo abagore babiri hateyemo ibiti hagati biza n'umuyaga mu kigo ugafasha abanyeshuri kwiga, inyubako isize amarangi y'umweru ku bikuta ndetse n'irangi ry'umutuku hasi, ariho bigira inyubako nziza ikagaragara neza.

Inyubako ya kaminuza y'u Rwanda yubakishije amabati y'umukara, ifite inzugi z'umukara, isize amarangi y'umweru. Abanyeshuri aho bari kwinjiramo bajya gushakamo ubumenyi, bajya mu nyubako zo hejuru no hasi ndetse harimo abahungu n'abakobwa bakoresha kino kigo kugira ngo biyungure ubumenyi.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, wicaye mu kumba gatoya karimo mudasobwa n'igitabo afite mu ntoki n'ibindi bitaro biri ku ruhande ndetse n'ikaramu iri kuri mudasobwa. Ari gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'ubumenyi ngiro ndetse n'imibare uburyo umunyeshuri yayibyaza umusaruro.

Inzu iriho icyapa kiri mu mabara y'ubururu n'umweru ndetse n'ikirango cya kaminuza y'u Rwanda. Yerekana aho abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuzima muntu baza kwigira, bakahakura ubumenyigiro kugira ngo babuhuze n'ibyo baba barize. Hamwe n'abarimu babo bizabafashe kuba bakora akazi neza cyangwa bazakore ku byo bigeze babona.

Urujya n'uruza rw'abakobwa n'abahungu, bavuye hanze binjira mu kigo cy'amashuri, ahari ibiti byinshi cyane byiza, kandi by'amoko atandukanye, bizana amahumbezi mu kigo, ndetse bikanakurura umwuka mwiza, aho abantu batuye. Inyubako ishaje cyane yegereye aho binjirira, ndetse n'ibyuma bifashe uruzitiro.

Icyumba gisa nk'icyimye gifite akavuyo kenshi, gihirimo igitanda cy'umukara kigeretse kabiri, urukweto ruri hirya yigitanda ndetse n'ibasi iri munsi yigitanda, hari intebe iriho ishati y'ubururu, isengeri y'umukara, ameza ariho ibikombe bibiri by'amabara atandukanye utubuni tubiri tw'umweru, n'icupa rimwe.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga mudasobwa z'umweru n'umukara, intebe z'amabara atandukanye ubururu na kake, ikibaho cy'umweru. Aho abanyeshuri baza guhurira kugirango bashake amakuru ku bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'amakuru ajyanye n'isi muri rusange.

Icyapa cy'umweru kigaragaza amagambo yandikishije amabara y'ubururu, umukara n'icyatsi kibisi, kiri inyuma y'inzu isa nkishaje, isakaje amabati ndetse n'irangi ry'umuhondo, iki cyapa kirerekana kaminuza ya Huye ishingiye ku myemerere y'abagatolika bikaba ari byiza kugitereka ahangaha kugirango gifashe abagana iyi kaminuza kumenya aho iherereye ndetse n'ibyo biga bidasabye kujya guhamagara abayobozi b'iyi kaminuza.

Inyubako yubatse mu ishyamba, ifite ikibuga cyubakishije amabuye n'imicanga, Inyubako isize amarangi y'umukara ndetse n'umuhondo, ibiti bikikije byiza cyane ndetse bishishe, bigaragara ko bitanga umuyaga aha ngaha.

Inyubako imwe mu nyubako z'ikigo cy'amashuri, aho abanyeshuri bigira bagiye kwiyungura ubumenyi kugira ngo babuhuze n'ibyo mwarimu yigishije, hari utubati tw'umweru tugeretse gatatu ndetse n'aho amazi aba ari bakarabira mu gihe bamaze gukora ku bintu byanduye, batagira bakabyanduza aha...

Icyapa cy'ubururu n'umweru, kiriho ikirango cya kaminuza y'u Rwanda, gishinze mu mucanga uri mu mbuga ya kaminuza, cyegeranye n'inzu isakaje amabati y'umukara, ifite inkingi z'amatafari y'umukara ahiye, ndetse n'amadirishya y'umukara, n'ibyuma n'ibirahuri.

Umuhanda munini w'amapave uzengurutswe n'amabuye ku ruhande n'ubusitani buri hakurya burimo indabo z'umutuku n'umuhondo, ubucaca bw'icyatsi kibisi buzengurutswe n'ubundi bushyashya buri guterwa, bwegereye inyubako ndende cyane iriho ikintu kimeze nk'ikigega gisize amabara y'umweru.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri bari kugenda batandukanye, bamwe baturuka epfo abandi haruguru, begeranye n'inyubako imeze nk'ikigega, bamwe bagenda berekeza ku modoka, abandi bamanuka bajya ku ishyamba, harimo umukobwa wambaye umupira w'umweru ndetse n'undi wambaye uw'umutuku ugana haruguru ku kigega.

Iguriro rusange ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo amamudasobwa menshi n'ibyuma by'indangururamajwi, igaragaramo akavuyo kenshi cyane, ibikarito bitonze hejuru y'akabati gasize amabara y'umweru, hari umugabo wambaye impuzankano y'umweru n'agapira k'umutuku.

Icyumba kimwe cy'ishuri kigizwe n'intebe imwe n'ameza abiri, n'utubati turi ku ruhande, ku rukuta rwabo bisigishije umuhondo, hariho igikuta cy'umweru cyandikishije amagambo arimo icyatsi kibisi, byerekana icyumba icyo aricyo, utubati dufite amaharanga abiri, ndetse n'amakaro asa neza nk'umweru.

Isomero rusange rifite utubati tugeretse karindwi, tugiye twikubyemo inshuro eshatu, harimo ibitabo by'amoko menshi, hari abanyeshuri bagera muri batanu, bari gusoma igitabo kimwe bungurana ibitekerezo n'intebe bicaraho mu gihe cyo kwiga, hari aho kujugunya imyanda ndetse n'amasinga yo gutwara umuriro kugira ngo habone.

Rusange ririmo akabati kageretse inshuro eshatu, karimo ibitabo bitandukanye by'amasomo agiye atandukanye, aha ni ho abanyeshuri baza gusomera mu gihe mwarimu yabahaye umukoro, cyangwa bakaza kuhasomera mu gihe cyo kuruhuka. Aha ni ho abanyeshuri benshi bakura ubumenyi bwimbitse, kuko ariho bakura ibirenga ku byo mwarimu aba yabigishije.

Icyumba cyo kuraramo kirimo ibitanda bine bibiri bigiye bigerekeranye. Kirimo ibikapu bitatu biteretse hagati mu bitanda bifite imyenda hejuru yabyo. Imyenda imwe imanitse hejuru ku madirishya, iyindi hejuru ku bikapu. Harimo amakoti y'umuhondo, umupira w'umweru ndetse n'umukara. Hakazamo n'umwenda w'ishuri w'umweru.

Ikigo cyisumbuye cy'imyuga n'ubumenyingiro cya Kitabi hagaragara umugore uri kubwira abanyeshuri afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye isaha y'umweru yambaye agapfukamunwa k'umuhondo ndetse n'ikanzu irimo amabara y'umutuku, ari imbere y'icyapa kiri mu mabara y'umweru icyatsi kibisi ndetse n'ubururu biriho ikirango cy'iryo shuri.

Icyumba gitenze neza, kirimo abakobwa babiri bicaye ku bitanda bitandukanye. Buri wese afite mudasobwa ari kwiga ndetse n'ikayi akoresha asubiramo ibyo yize. Inkweto ziri hasi bari bambaye, baza gukoresha bambara. Hari akabati karimo amabase y'umuhondo n'ibikombe by'umweru.

Inzu igeretse kabiri iriho icyapa kigaragaza ko ari Kaminuza y'u Rwanda, isize amarangi y'umuhondo n'ubururu, mu mpande zayo hariho amadirishya y'ibyuma ndetse n'ibirahure, hariho kamera ifasha gucunga umutekano w'iyi nyubako kugira ngo hatagira abagizi ba nabi binjiramo cyangwa bakangiza.

Inyubako yabugenewe yigiramo abanyeshuri, harimo intebe z'umweru n'intebe ya mwarimu y'umutuku n'umweru, hagaragaramo abagabo bari kwiga cyangwa bari guhugurwa ndetse n'uri kubahugura wambaye ikote n'ipantaro ubahagaze imbere, hakagaragara icyuma cyerekana amashusho kiri hejuru ku rusenge cy'amabara y'umukara.

Ubusitani buri impande y'umuhanda buteyemo ibiti by'amoko menshi bitandukanye kandi byiza, bigiye bitagaranye impande n'impande, bitanga umwuka mu kigo ahantu hose ndetse n'abantu batambuka bakabona aho bicara bakinga izuba.

Urujya n'uruza rw'abahungu n'abakobwa, rwambaye imyenda itandukanye, yiganjemo amabara y'umukara n'umweru, n'inkweto z'umweru n'umukara, bari imbere y'inyubako y'ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro rya Tumba, rifite inyubako zigiye zigeretse gatatu, hari ibiti byinshi ku ruhande bikikije iyi nyubako.

Icyumba gito cyane gisize amarangi y'ubururu, harimo intebe ebyiri n'ameza afitemo ibikombe bibiri n'uburoso bw'amenyo n'ubuguni bugera muri butatu, byose biri aho ngaho ku meza, bikoreshwa mu gihe abantu bari kugira bagire isuku, ndetse n'amazi abantu banywa mu gihe bafite inyota.

Icyumba cyo kuraramo kirimo ibitanda bibiri ku mpande zombi zitandukanye, buri hose hariho matera, ibumoso hakaba matera iriho igikapu cy'umukara ndetse n'utubati duteretse mu nguni ya buri ruhande n'utundi tumanitse hejuru.

Abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa bambaye umwambaro w'umweru ndetse n'uturindantoki tw'ubururu, bari mu isuzumabumenyi ry'ibyo baba baragiye biga kugira ngo barebe neza ko bashobora kubishyira mu bikorwa mu gihe kizaza ndetse no kwizera neza ko ibyo biga bibafitiye umumaro.

Ikibaho kiriho icyapa kigizwe n'amabara y'ubururu n'umweru n'ikirango cya Kaminuza y'u Rwanda n'amagambo asobanura ko iyi ngiyi ari itsinda ry'abanyeshuri biga ubuvuzi, ariho bakorera, akaba ari muri nimero gatanu, aho uza ushaka abayobozi b'iri tsinda.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri igeretse inshuro zigera muri ebyiri, iruhande rwayo hari ibiti bya pinusi n'ibiti by'imyembe biri ku bucaca, ifite imipira imanura amazi iyakura mu nzu iyajyana mu byobo byayo ndetse n'izamura imyuka y'ibyobo , kugira ngo umwuka utangiza abari mu mbuga cyangwa ukaba wateza indwara.

Ubwogero bwa kizungu, aho buri wese agenda gukaraba intoki mu gihe avuye mu bwiherero, kugira ngo yirinde indwara ziterwa n'umwanda, ari zo zitera inzoka zo mu nda, harimo indwara za macinya, korera ndetse no kugira isuku mu gihe aho bagiye hose biririnde kuba bakanduza ahandi bagiye.

Ubwogero rusange buri ku muhanda, bwubakishije amakaro y'umweru, buzengurutswe n'ubusitani, burimo ibiti birebire ndetse n'ibigufi, hari ku muhanda w'amapave uzenguruka impande n'impande, aho abantu bakandagira baje gukaraba, kugira ngo batahava handuye, ubucaca buhari bwaho ni bwo bwifashisha kuzana umwuka muri iki kirwa.

Icyumba gito kirimo ibitanda bibiri biriho matela, n'amashuka y'amabara atandukanye, hari akabati karimo imiguru igera kuri itanu y'inkweto, ndetse n'ubujerekani bugera muri bune bubikwamo amazi, yifashishwa mu kunywa, n'umuti w'amazi, hamwe n'umuti w'amenyo ndetse n'uburoso.

Inyubako irimo ikibaho kiriho ikirango cya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, giteretse imbere mu mabara y'umweru n'ubururu, hasi yayo hari umugabo ufite imigozi y'umweru n'umukara ndetse n'uwicaye mu ruhande rwo hakurya ugaragaza afite mudasobwa.

Abasore bari mu kigero k'imyaka mirongo itatu na makumyabiri, bahuriye aho bareba umupira, hagaragara indangururamajwi z'umukara n'ubururu ziwufasha kumvikanisha ibyo abari babatumiye bababwira kugira ngo buri wese bimugereho neza aho yicaye bidasabye gusakuza cyangwa kuba yataha ntacyo yumvise.